Iki ni icyapa cyerekana y'uko mu muhanda uri kugenderamo hari aho abanyamaguru bambukira; ari icyapa gitanga uburenganzira bw'abanyamaguru bambuka ibinyabiziga bigahagarara.